Iyi ni inyongeramusaruro, ituma igihingwa cyiyongera umusaruro bacyuhiraho kikagira umusaruro, umuhinzi na we wabihinze akiteza imbere, noneho akazabona umusaruro utubutse.

Ndabona polisi, n'ingabo, n'abaturage, bafatanije barikongera ku bigori ho ifumbire, kugira ngo umusaruro uziyongere, igihingwa kizabashe kuba cyagira uruti rukomeye, kikajyana n'intete nini. Umuhinzi akazabona umusaruro akazagurisha akabona amafaranga, cyangwa akihaza bagasagurira n'amasoko.

Amafi ari mu biribwa byiza bituma ubwonko bwacu bukora neza, ubwenge bukaba bwanakwiyongera. Amafi ari mu bitera imbaraga n'ibirindwara. Amafi atuma umubiri wacu ugenda neza.

Iki ni ikiribwa cy'amafi, kikaba kirimo n'urusenda n'umufa, kandi amafi atuma ubwonko bwacu bukora neza umubiri ukagenda neza.

Ndabona ari imbuto barazirya, ndabona hariho n'amafi nayo barayarya, agagatuma umubiri uba neza.

Ifi barayirya, bakayijyana kuyigurisha ku isoko, iyo yarobwe, ifitiye akamaro kanini ubwonko, ituma ubwonko ukora neza, umuntu akamenya ubwenge.

Avoka ni ikiribwa cyiza barayirya n'ibidodoki ndabibona barabirya. Avoka ivamo n'amasabune, ni nziza ijya ku ifunguro rya buri munsi.

Inka ni nziza itanga amata, igatanga ifumbire, bakayigurisha bakabona amafaranga, ituma mbese urugo ruva mu bukene rukajya mu bukire.

Ibi ni ibicuruzwa byacuruzwaga byari byibanzemo imbuto byacuruzwaga mu masoko ibigaraga byaracuzwaga hari hibanzwemo imbuto.

Ndabona ari abadaso baba bari hamwe n'abaturage, barimo guhinga ahantu hari nini. Bakaba bitegura guteramo ibyo mbona bimeze nk' imigozi y'ibijumba.

Ndabona ari ibigega byari ahantu hari imyaka, kugira ngo bajye babyuhiza iyo myaka, hanyuma iyo myaka izabone uko itanga umusaruro babone umusaruro utubutse, hehe no guhura n'izuba, kuko izuba iyo ribaye ryinshi ryangiza imyaka, ariko iyo babyuhiye birera byera neza.

Ibintu bijyanye n'imbuto za pome, ibyomoro, n'amacunga. Imbuto ziturinda uburwayi mu mubiri, iyo yatuziriye tubyitayeho.

Ibijumba ni byiza, turabirya, bigatuma tugira imbaraga mu mubiri wacu, iyo umuntu yabiriye yumva akomeye. Kandi akagenda afite imbaraga mu mubiri we.

Iki ni igihingwa cy'ubunyobwa bwerera hasi. Ubunyobwa ni bwiza mu mubiri wacu. Kuburya buri munsi cyangwa ku mafunguro, bituma umubiri uhora umeze neza.

Ibishyimbo, ibishyimbo ni byiza kubirya kuko bifite intungamubiri irenze n'iy'inyamayama, bigira amaporoteyine atandukanye, ni byiza mu mubiri wacu kubirya mu mafunguro.

Iyi ni soya ijya mu cyimbo cy'amata. Iyo wabeteje mu gikoma ituma abana bagubwa neza ntibarware na bwaki . Soya ni igihingwa cyiza.

Ibi ni ibigori byaba bishayitse ahantu kugira ngo byume, kugira bizatange umusaruro umeze neza. Ibigoro barabirya, babibeteshamo umutsima, banywamo igikoma. Ibigori bifite akamaro kenshi mu mubiri kuko bituma umuntu amererwa neza mu mubiri.

Ingurube ni itungo ryiza birukana bararirya, bakagurisha bakabona amafaranga, rigateza urugo imbere, barikuramo n'amavuta.

ABA ari abaveterineri bakora mu kizete cy'inka, bashaka nko kuyibyaza, kuko ni abaveterineri babiri bashakaga kubyaza inka mu bigaragara.

Inuma zororwa barazigurisha, barazirya. Iyo azigushije zibona amafaranga ni n'ubwoko bwiza.

Ndabona ari urukwavu rwibereye mu bwatsi. Urukwavu akamaro karwo ubwoya bwarwo buvura ubushe, bakanarurya, bakanarugurisha bakabona amafaranga. Niko kamaro k'urukwavu.

Iyi nayo ni inyoni nziza bayita ndondange ikunze kudomogura ibiti, ikaba itobora ariko nayo ni mu bwoko bwiza yatuma ba mukerarugendo basura igihugu cyacu batuzanira amadovize y'igihugu kikiteza imbere.

Iyi ni inyoni nziza ikurura ba mukerarugendo, kuko ifite amabara meza. Ba mukerarugendo bakunze kuyisura, baza mu gihugu cyacu. Itanga amadovize, ba mukegendo batanga amadovize iyo baje gusura inyamaswa ziba ziri mu gihugu cyacu, cyanecyane nk'izi nyoni zifite ubwiza.